Ikigo cy'amashuri impande yaho hariho ikibuga kirimo umucaca. Ku kigo inyuma ku gikuta, hariho icyapa. Iki cyapa imbere y'amashuri hariho ururabo rwanitseho imyenda.

Umunyeshuri yambaye ishati y'umweru, amakayi ye amwe ari kumeza , ayandi ari mu gakapu gasa n'icyatsi mu ntebe, inyuma ye hari ikibaho cyanditseho ibintu bikeya.

Abantu bari kwiga imashini, bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, imashini zabo zifite ibara ry'umukara, ryanditseho akantu k'umuhondo. Izi mashini ni nziza zitondetse hamwe.

Imodoka bari gukanika, abantu bari kuyikanika bambaye imyenda y'ubururu y'ibisarubeti, bayikuyeho ikizuru cy'imbere kugira ngo babone aho ikibazo kiri.

Abanyeshuri bambaye iniforume hasi bambaye kaki, hejuru umweru, bari kwiga. Mwarimu wabo yambaye ipantaro y'umukara n'ishati ya buresiyeri. Imbere yaho hariho ikibaho cyanditseho utuntu dukeya.

Imyumbati iri mu murima, harimo n'amateke, harimo n'insina imwe. Umuntu urimo afite icyuma kiri gupima amazi yo ku mateke.

Umudozi ari kudoda imyenda, kudoda imyenda ukoresheje imashini kera twakoreshaga urushinge rw'intoki tukadodesha umudeyi, tukadodesha imigwegwe, ariko ubu turakoresha urudodo n'imashini umwenda ukaba umeze neza kandi uringaniye.

Abantu bari kubaka bambaye amasarubeti y'ubururu, abandi bambaye ingofero z'umuhondo. Bafite indobo mu ntoki, umuntu umwe uhagaze impande y'amatafari afite impapuro mu ntoki.

Umuvuzi ari kureba mu mashini ipima ku bantu batanze ibizamini. Ni abavuzi bane bose bari kubireberamo. Umwe yambaye amarinete n'abandi bambaye uturindasuku mu mutwe.

Umwarimu ari kwigisha umunyeshuri imashini, arimo kumwerekera ukuntu yazamenya nawe ikoranabuhanga, yambaye agapfukamunwa k'ubururu, mwarimu we yambaye agapfukamunwa k'umukara yambaye n'agapira k'umuhondo.

Abanyeshuri bari kwigira ku mashini z'ikoranabuhanga na mwarimu wabo ari ku berekera bari kwigara. Kera bigiraga mu makayi n'amakaramu gusa ariko hano bari kwiga ikoranabuhanga, umwana akazarangiza azi ubwenge ari inararibonye mu bijyanye n'ikoranabuhanga.

Abanyeshuri bari kwiga ibintu bijyanye n'ubuvuzi ,bafite alukoro hano imbere yabo, kandi bose bafite amatsiko yo kumenya ibyo mugenzi wabo ari kubereka.

Abantu bari gukora akazi k'ububaji, bari kuringaniza imbaho neza, kugira ngo bateranye urugi. Bambaye imyenda isa n'ubururu y'amasarubeti. Bafite na za ekuteri mu matwi, bari kumva radiyo.

Kogosha ni byiza kuko ni ukurwanya umwanda, yaba umugore , yaba umugabo ntawutakora umwuga w' ubwogoshi, kuko icy' ingenzi ni uko ukora umwuga kandi ukaguha amafaranga nta nkomyi.

Iyi nka bayiboshye, bayiboshe mu mahembe bayiboha n'umunwa, kubera abaganga barimo kuyivura, kugira ngo itabatera amahane. Aba baganga ndabona bameze nk'aho ari abanyeshuri, kuko bambaye imyenda ya kiganga ari benshi. Kandi bambaye n'dupfukamuwa.

Abanyeshuri bari kwiga bakoresheje ikoranabuhanga, mwarimu wabo na we ari ku bigisha akoresheje ikoranabuhanga, ariko kera twigaga dukoresheje imbaho, n'ingwa n'imisango.

Umusatsi bari gusuka ibisuko bita amarasita biri kugenda birikwerera mu mugongo. Umudamu uruguzuka yambaye agasengeri k'umutuku n'agasutiye k'umukara.

Aba ni abanyeshuri barimo kwiga ubutetsi, ndabona bari gukoresha ibitunguru na karoti na vinegere. Ni byiza kuko ndumva nanjye nakwigisha abana banjye ibijyanye n'ubutetsi, kuko ni ibintu byiza byazabafasha gutegura ibyo guteka byiza, kandi bimeze neza.

Abayede barakora kandi bakora bari guhereza abafundi kandi nta mufundi wakora atagira abayede, kubaka bisaba guherezwa barabahereza amasima bakoresheje ibitiyo, bari guponda bakoresheje amasuka, bari gukoresha n'ibice by'ibidomora, guhereza bisaba kuba witwaje ibikoresho.

Imodoka iri hejuru bateruje ibyuma. Barimo kwiga gukanika. Dore impande yaho hari abanyeshuri bambaye amasarubati y'ubururu babiri. Barasutamye bateze amatwi uri kubigisha.

Abakozi bari gukora mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Iwacu kera nta bwo twari tuzi iby'ikoranabuhanga, nta mashini twagiraga nta n'ubwo twari turizi twakoreshaga amakaramu, imisango, amakaramu y'ibiti, imbaho, ariko ubu ngubu urajya mu ikoranabuhanga ibintu ukabibona neza, kandi ibyo wabikamo ukazabisangamo mu gihe ubikeneye.